Ikigo cyiza cy'amashuri ni ikigo kigamo abanyeshuri m'uburyo bwo gutoza abanyeshuri uburere tukabaha ubumenyi bwiza n'ikigo cy'amashuri cyubatse neza gituye ahantu heza.

Ikigo kiza cyane, ni ikigo cy'amashuri, kirimo jaride nziza cyane, ni ikigo kiriho igipangu kiza k'ibyuma, gisize irangi ry'umweru, ikigo cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati meza cyane.

Ikigo cyiza cyane, ni ikigo cyubatse neza, ni ikigo cy' amashuri kiriho ikigega kinini cyane, ikigega kibika amazi. Ni ikigo gifite intego nziza cyane harimo kuzamura imitsindire, kubahiriza igihe.

Abanyeshuri benshi bari mu ishuri bari kwiga imashini, imashini zidoda imyenda, basa neza biteguye kwiga imashini.

Abanyeshuri bari mukigo cy'amashuri bari kwiga gukoresha mashini imashini nziza cyane abanyeshuri bambaye umweru n'umukara bambaye karuvati z'amabara y'umweru n'umukara.

Abagabo babiri n'umugore umwe, ni abantu bambaye ibisarubeti by'ubururu bambaye bote, kandi bakaba bafite ingofero z'akazi kabo, bafite igitiyo bari gutwara ibitaka babijyana aho bari kubakira.

Abanyeshuri benshi cyane, ni abanyeshuri bari mu ishuri. Ni abanyeshuri bambaye iniforume, ni abanyeshuri bari kwiga bari kumwe n'umutica wabo. Bari mu ishuri ryubatswe neza, ni ishuri risize irangi ry'umweru.

Abasore benshi; n' abasore bambaye ibisaro by' ibiti, n' abasore bize mekanike; bari gukanika imodoka, ni bamwe mu bantu badufasha, gukora imodoka zacu mu buryo butandukanye, cyane nk' iyo zagize ibibazo.

Abakanishi benshi cyane ni abakanishi bari gukanika imodoka. Ni bamwe mu bize mekanike badufasha kugira ngo imodoka zacu zisubire uko zari zimeze aho zangiritse zongere zimere neza.